Ikigo kirimo amashuri meza agezweho arimo ibikoresho bisabwa mu kwifashisha mu kurwanya ibiza byaba iby'umuriro cyangwa se ibindi, gusa amashuri ameze neza afite inyubako zimeze neza zifite amarangi meza ari mu bwoko bw'amabara y'ibendera ryacu ry'u Rwanda.

Abanyeshuri bato cyane ba pirimeri bari ku ishuri bari gutozwa ibintu bimwe na bimwe n'umwarimu wabo ubahagarariye, bisa nk'aho bari gutozwa ibintu bigendanye na siporo ndetse n'udukino n'ibindi byinshi bitandukanye.

Arimantasiyo ikeye irimo ibintu byinshi kandi bitandukanye, harimo ibyo kunywa, sofuti dirinki, harimo ibindi byo kurya, gusa na none hakagaragaramo imiti y'abantu cyangwa se imiti y'inka.